Icyumba kiberamo inama ndetse n'ibiganiro, hari ababyitabiriye barimo ingeri zigiye zitandukanye ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba bari mu myambaro y'icyubahiro izwi nk'ikositimu ab'igitsina gabo ndetse n'abadamu, imbere yabo hakaba hari uducupa tw'amazi ndetse n'amadarapo y'igihugu n'undi urimo kubafata amashusho.

Mu ihema rinini hicayemo abantu b'ingeri zitandukanye, abagore, abagabo, abakuze, ndetse n'abatoya, hakaba hadekoye mu idarapo ry'igihugu, umuhondo, ubururu, ndetse n'icyatsi. Ahari abagore batatu, umwe uri hagati wambaye ibitenge, bakaba bari kumuha ikizwi nka seritifika mu ndimi z'amahanga.

Mu cyumba kiri kuberamo inama, harimo ingeri z'abantu batandukanye b'igitsina gore n'igitsina gabo bicaye ku ntebe z'umukara, imbere hakaba hari uducupa tw'amazi, mudasobwa ndetse n'indangururamajwi, bari mu nama ijyanye no gusukura Umujyi wa Kigali, aribyo Kigali ikeyeya.

Abantu banyuranye abaturage bitabiriye inama ndetse hakaba hari n'abaje kubabwira ibikorwa runaka, imbere yabo hakaba hari uducupa tw'amazi, bakaba bari mu myambaro igiye itandukanye.

Mu cyumba kiri kiberamo inama yitabiriwe n'ingeri z'abantu bagiye batandukanye abazungu, abirabura ab'igitsina gore ndetse n' ab'igitsina gabo imbere yabo hakaba hari uducupa tw'amazi bakaba bari mu myambaro inyuranye nk'aho abagabo bari mu myambaro y'ikositimu izwi nk'iy'abanyacyubahiro.

Bitabiriye umunsi wahariwe ubuvuzi bw'imitekerereze barimo ab'igitsina gore ndetse nigitsina gabo, bari barimo kuganira ku buryo ki babungabunga ubuzima bwo mu mutwe.

Ahari imbaga y'abantu nyamwinshi bagiye batandukanye, inyuma yabo hakaba haparitse amamodoka yitabiriye igikorwa runaka, ndetse hakaba hari ufite indangururamajwi wambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro, urimo kubabwira.

Abantu b'ingeri zitandukanye bari mu ihema, bitabiriye igikorwa runaka, ndetse imbere yabo hakaba hari ameza ateguye neza hariho ururabo, ndetse n'abarimo gukoma amashyi bigaragaza ko bishimiye ibyo bari kubwirwa cyangwa ibyo bari kubona.

Ahari kubera inama yahuje urubyiruko, bakaba bose bambaye imipira y'umweru, n'urimo kubara wambaye umupira w'ubururu n'akajire k'umukara, ufite indangururamajwi. Imisatsi miremire aho bari kwiga ku buryo umuntu yashaka inzira yo kugera ku murimo we ndetse akubaka n'ahazaza he.

Ahari abaturage b'ingeri zinyuranye bitabiriye igikorwa runaka, bakaba barimo gukoma mu mashyi, bamwe baricaye abandi barahagaze, inyuma yabo hakaba hari imodoka ziparitse ndetse n'amazu hakurya yabo.

Uburyo bukoreshwa mu gushishikariza abanyamahanga ndetse n'abandi bantu batandukanye mu gusura u Rwanda bizwi nka visiti Rwanda, abakerarugendo babashishikariza gusura u Rwanda rugizwe n'imisozi igihumbi, hakiri ibinyabuzima bitandukanye harimo ingagi ndetse n'ibindi binyuranye.

Inyubako irimo abantu bagiye batandukanye, ab'igitsina gore n'igitsina gabo, barimo gukoresha ibikoresho byabo bizwi nk'amatelefone, amasimstifone ndetse n'amaraputopu mudasobwa, bajya kuri interineti gushakayo ubumenyi bunyuranye.

Ibikorwa remezo birimo umunara muremure ushamikiyeho ibindi byuma bitandukanye biri mu mabara y'umutuku n'umweru, wifashishwa mu gukurura amajwi ndetse n'amashusho bikayakwirakwiza hirya no hino.

Uburyo ikigo gishinzwe imisoro n'amahorora RRA bisobanura umusoro ku nyungu z'ubukode ni ki? Umusoro ku nyungu z'ubukode ni umusoro ucibwa ku nyungu umuntu ku giti cye cyangwa undi muntu wese utishyura umusoro ku nyungu z'amasosiyete abona, ziturutse ku bukode bw'umutungo utimukanwa mu Rwanda.

Televiziyo y'igihugu arabiya rwanda burodikasitingi ajeti. Barimo kuturarikira ikiganiro cy'ikigo cy'imisoro n'amahoro itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu ni mirongo itatu n'imwe z' ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kane. Uyu munsi tariki cumi'ebyiri z' ukwa cumi'abiri bibiri na makumyabiri na kane satatu na mirongo ine kugeza saa tatu na mirongo itanu n'itanu z'umugoroba.

Iminara ibiri miremire iriho ibyuma bitandukanye, ishinzwe gusakaza amashusho ndetse n'amajwi hirya no hino, yifashishishije ibikoresho byabugenewe bishamikiye kuri uwo munara.

Itangazo ryashyizweho n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Reveniyu Otoriti, aho bamenyekanisha yuko, uyu ari wo munsi wa nyuma wo kuba wakwishyura imisoro yawe kugira ngo utazacibwa amande.

Ibikorwa remezo bya leta harimo amashanyarazi, ari ipoto ndende ishamikiyeho insinga zitandukanye zijyana umuriro mu ngo hirya no hino. Hakaba hari inyubako ziri hafi yaho.

Inyubako yubatse mu buryo bugezweho, hakaba hari ipoto imbere yayo idufasha mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino ndetse hakaba hari n'icyapa kitugaragariza ubwishingizi, Britam inshuwarensi n'ahakorera ibijyanye no gufotora impapuro ndetse n'ibikorwa by'Irembo.

Ipoto rirerire rishamikiyeho insinga zitandukanye zigikwirakwiza umuriro hirya no hino, hakaba hari insina n'ibiti bihateye, hakurya hakaba hari umunara muremure nawo wifashishishwa mu gukwirakwiza amajwi ndetse n'amashusho neza.

Ahari ingo zituriye ku muhanda ndetse n'ipoto rirerire ririho insinga z'amashanyarazi zikwirakwiza umuriro hirya no hino n'ibiti birebire bidufasha mu kuduha umwuka mwiza duhumeka.

Inzu zubatse mu buryo bugezweho ndetse n'ikigega gisa umukara gifata amazi y'imvura agakoreshwa mu bikorwa bitandukanye, haruguru yazo hakaba hari ipoto iriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino.

Ahari ibikorwa remezo bitandukanye hateye ibiti, insina ndetse hakaba hari n'amazu atuwemo n'abaturage hafi y'umuhanda hakaba hari ipoto ririho insinga z'amashanyarazi ndetse n'itara rimurika mu muhanda mu gihe cya nijoro n'umunyamaguru urimo gutambuka.

Ahateye pasiparume, ndetse hakaba hari n'indabo hakurya kabari amazu atandukanye hari ifoto ndende iriho insinga z'ubwoko bwinshi, ikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hakurya no hino.

Inyubako yubatse neza ifite amarangi y'umuhondo ndetse hakaba hari na kizimyamwoto hanze yayo, ifite ibara ry'umutuku ndetse n'umugozi muremure bifashishisha mu kuzimya inkongi y'umuriro n'agatanda batwaraho abarwayi.

Kwa muganga, ahatangirwa serivise z'ubuvuzi bugiye butandukanye, hari abaje kwivuza ndetse n'abaganga barimo kubakira, bambaye amataburiya y'umweru n' udupfukamunwa tw'ubururu.

Ahazwi nko mu bwiherero hakaba hari igice cy'abagabo, icy'abagore ndetse n'icy'abafite ubumuga, hasi hakaba hari amakaro y'umweru, ibikuta by'umukara.

Imbaga y'abantu nyamwinshi, harimo ab'igitsina gore n'igitsina gabo bari mu myambaro isa, batambuka ku murongo bambaye amakanzu y'umukara harimo utuntu tw'umweru ndetse n'ingofero, bazwi nk'abacamanza ndetse n'abashinjacyaha.

Umugabo ufite imisatsi migufi wambaye ishati y'umweru, ku ijosi rye hakaba hariho mikoro n'izindi zimuri imbere, akaba arimo guseka bitewe n'ibyo barimo kumubaza ndetse n'ibyo arimo kuganiriza abamushyize indangururamajwi imbere.

Uburyo bwakoreshejwe mu kurangiza imanza za Jenoside yakorewe abatutsi mu w'iihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda na kane, buzwi nk'inkiko gacaca, aho ababuranishaga bambaye utubaranga turi mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, barimo abagabo ndetse n'abagore.

Abagabo babiri harimo ushinzwe umutekano w'umuzungu wambaye amadarubindi ndetse afashe undi uri mu myambaro ya kositimu, ikaruvati ndetse n'ishati mu imbere wambaye amapingu ndetse akaba yambaye n'amadarubindi afite imisatsi migufi akaba yirabura bigaragara y'uko bamutaye mu cyuho.

Umugabo uri mu za bukuru wambaye ishati y'umweru karuvati ndetse n'ingofero y'igikinga n'isaha ku kaboko yicaye mu gatebe k'abafite ubumuga kazwi nk'akagare, inyuma ye ha kaba hari igitambaro gisa ubururu kiriho ikirangantego cya UN mu ibara ry'umweru.

Icyumba kiberamo inama, amahugurwa, ndetse n'ibindi bitandukanye. Hari abagiye bicaye ku meza agiye atandukanye, harimo abadamu n'abagabo bari mu myambaro y'icyubahiro, y'ikositimu ndetse na karuvati. Imbere yabo hakaba hari ibirahure.

Ab'igitsina gore bari mu myambaro ya oranje ndetse na move, bafunzwe bazira ibyaha bigiye bitandukanye, aho barimo gukurikirana inyigisho zitandukanye kugirango babe babasha kubagorora, babe babakosora aho bakoze nabi.

Ahafashwe n'inkongi y'umuriro bakaba bazanye ibyuma byabugenewe mu kuzimya ndetse n'imodoka ndende zifashishishwa mu gukora icyo gikorwa, hakaba hari n'abambaye imyambaro yabugenewe.

Ku kibuga ahakorerwa ibizamini bya burundu byo gutwara abantu, bizwi nka perimi mu ndimi z'amahanga, ahari imodoka iri kuzamuka ibyo bita demaraje, hakaba hari amakona ashinze ndetse n'abapolisi barimo gukoresha ikizamini, uri imbere ndetse n'uri inyuma y'imodoka.

Abapolisi b'ingabo z'igihugu z'u Rwanda, bambaye imyambaro yabo y'ubururu ndetse n'ingofero, bafite imbunda ndetse bahetse n'ibikapu, barimo kumva amabwiriza arimo gutangwa cyangwa se ibiganiro barimo guhabwa bitewe n'igikorwa bagiyemo.

Igikoresho kifashishwa mu kuzimya umuriro, kikaba gisangwa mu nyubako, nini ndetse n'ahantu hakorerwa ibikorwa rusange, kizwi ku izina rya kizimyamwoto.

Umugabo uri mu mwambaro w'abapolisi, akaba afite inyenyeri ku bitugu byiwe ndetse n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, akaba yambaye ingofero iriho ikigantego cya polisi, asa n'urimo kubwira abamutega amatwi.

Inyubako ikorerwamo n'abantu banyuranye, ahari ibyuma byabugenewe mu kuzimya inkongi y'umuriro bizwi nka kizimyamoto mu ndimi z'amahanga, ahari isa umutuku ndetse n'isa umweru, bifite imigozi yabugenewe miremire ibasha kuba yazimya mu gihe habaye inkongi y'umuriro.

Inyubako zikorerwamo ibikorwa bitandukanye, ahari ibikoresho byifashishishwa mu kuzimya umuriro mu gihe wabayeho bizwi nka kizimyamto mu ndimi z'amahanga, aho haba hafasheho imigozi miremire yifashishishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Uburyo bwakoreshejwe babarura amajwi y'umukandida KAGAME Pau,l wo mu ishyaka rya FPR wari uri kwiyamamariza kuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda tariki ya cumi na kane, kugeza ku itariki ya cumi na gatanu z'ukwa Karindwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Mu gihe cy'amatora hari agasanduku kabugenewe umuntu usoje gutora ashyiramo ijwi ryiwe ari rwo rupapuro rw'umweru ruriho uwo yabashije gutora, akaruzinga neza ubundi akarushyiramo. Ahari abarimo gushyiramo amajwi yaba batoye muri ako gasanduku gapfundikije umufuniko w'umukara ndetse gasa umweru.

Igikorwa cy'amatora y'abadepite mu mwaka w bihumbi bibiri na cumi n'umunani, abantu b'ingeri zitandukanye abari kujya gutora ndetse n'abari kuvayo.

Umudamu wambaye ikote ry'umuhondo ndetse n'akandi gapira k'umukara, akaba ari inzobe, yambaye amadarubindi ndetse n'amaherena ku matwi n'imisatsi myinshi ku mutwe, yicaye ku ntebe y'umukara, inyuma ye iburyo hakaba hari idarapo ry'igihugu ndetse n'idarapo ririho ikirangantego cy'igihugu.

Mu muhanda rwagati ahari kunyura ibinyabiziga bitandukanye harimo moto zitwaye abagenzi n'izitabatwaye, hakurya y'umuhanda akaba ari igisate cy'abanyamaguru ahari icyapa cyiriho ifoto ya nyakubahwa Paul Kagame, handitseho tora Kagame Paul twubake u Rwanda twifuza.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu bwererutse ufite indangururamajwi mu ntoki ze ikizwi nka mayikorofone mu ndimi z'amahanga yambaye amadarubindi, imisatsi migufiya ndetse akaba yirabura.

Mu Nteko Nshingamategeko harimo kubera inama inyuranye, irimo Abadepite ndetse n'Abasenateri, hari abari imbere barimo kubabwira.

Icyumba kirimo abantu bagiye batandukanye, harimo Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ufite impapuro mu ntoki, yambaye ikositimu y'ubururu, karuvati y'umukara, ishati y'umweru, n'amadarubindi, iburyo bwiwe hakaba hari umudamu uri mu mwambaro wa oranje, imbere yabo hakaba hateretse uducupa tw'amazi, n'abandi babari inyuma babimo umugabo n'umugore.

Umugabo uri mu myambaro y'abanyacyubahiro, ikositimu harimo ishati y'umweru ndetse n'i karuvati, akaba yirabura, afite umusatsi muke ku mutwe, yambaye amadarubindi ndetse imbere hakaba hari indangururamajwi n'agacupa k'amazi, akaba yicaye ku ntebe y'umukara asa n'urimo kubwira abamuteze amatwi.

Abamotari baparitse moto zabo ahantu hamwe hazwi nka parikingi, bambaye amajire ameze kimwe, bambaye kasike z'umuhondo n'abambaye iz'umutuku, hirya yabo hakaba hari imitaka ya MTN ikorerwamo n'abajeti bayo.

Mu muhanda ahari kunyurwa n'utumoto tuzi ku bwoko bwa lifani dusa ubururu, dutwara imizigo igiye itandukanye. Hakurya y'umuhanda hakaba hateye ibiti birebire ndetse n'amapoto ariho umuriro w'amashanyarazi n'amatara amurika mu gihe cya n'ijoro.

Umuhanda hari kunyurwa n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto itwaye umugenzi bambaye kasike z'umutuku ndetse n'imodoka izwi gutwara abantu mu buryo bwa rusange, hakaba hari na sitasiyo ya SP, aho banywera esanse ndetse na za mazutu.

Mu muhanda rwagati hari kunyurwamo n'imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga binyuranye, harimo moto, imodoka ntoya ndetse n'inini, hakaba hari n'igisate cyahariwe kunyurwamo abanyamaguru, bizwi nk'agahanda k'abanyamaguru, hakurya y'umuhanda hakaba hari ibiti birebire, bidufasha mu kuduha umwuka mwiza wo guhumeka.

Mu muhanda rwagati hari kunyurwa n'imodoka nini zizwi nk'ibikamyo, icy'umutuku ndetse n'cy'umuhondo biri mu byerekezo bitandukanye, icy'umuhondo gipakiye ama matera menshi, icyo twita uburyamiro Dodoma, hakaba hejuru hatwikijeho shitingi y'ubururu, iyo modoka ikaba isa umuhondo.

Mu muhanda urimo igikamyo gisa umutuku, cyambaye amapine y'umukara, cyikoreye ibintu bigiye bitandukanye hakurya y'umuhanda hakaba hateye ibiti bidufasha mu mihumekere, biduha umwuka mwiza ndetse hakaba hanyurwa n'ibindi binyabiziga bitandukanye, muri uwo muhanda harimo imodoka, moto n'amagare ndetse n'igisate cy'abanyamaguru.

Umuhanda uri kunyurwamo n'ibinyabiziga binyuranye, moto zitwaye abagenzi, imodoka ndetse hakaba hari na feruje, zidufasha mu gukoresha neza umuhanda.

Umugabo wambaye bote z'umukara, ipantaro, ishati y'ubururu ndetse n'ijiri y'icyatsi n'ingofero y'umukara, aho arimo gushyira imyanda mu mashashi ndetse akabitwara ku ngorofani abijyana ahabugenewe abikura mu muhanda.

Muri gare ahaparika ibinyabiziga binyuranye, ahari imodoka nini izwi ku bwoko bwa Ritco zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, zibajyana mu bice binyuranye by'igihugu.

Umuhanda uri kunyurwa n'imodoka zigiye zitandukanye, zerekeza mu byerekezo binyuranye, aho zifashishishwa mu gutwara abagenzi zibajyana hirya no hino mu gihugu.

Mu muhanda hari kunyura ibinyabiziga birimo imodoka ndetse n'umunyamaguru uri kwambukiranya umuhanda, n'abandi kunyura mu gisate cy'abanyamaguru ndetse na moto ziparitse ahabugenewe bambaye kasike z'umuhondo n'amajire y'ubururu n'umuhondo ndetse hakurya hakaba hari sitasiyo itanga amalisanse n'amazutu bijya mu modoka.

Mu muhanda usukuye, hari kunyura ikinyabiziga kizwi nka moto ihetse umugenzi. Ndetse hakaba hari n'imikindo iteye mu muhanda nk'imitako, ndetse n'akayira k'abanyamaguru.

Mu muhanda rwagati hari kunyurwa n'ibinyabiziga binyuranye hari imodoka nini isa ubururu ndetse n'umweru royo exipuresi ndetse na moto iri gutambuka, hakurya hakaba hari inyubako ikoreramo hani restora ndetse imbere yabo hakaba haparitse imodoka ebyiri zisa umukara.

Mu muhanda rwagati hari kunyurwa n'imodoka nini izwi nko mu bwoko bwa kwasteri mu ndimi z'amahanga itwara abanyeshuri international school complex hakaba hariho nomero wabahamagaraho zero, karindwi, iminani ibiri, gatanu icyenda, rimwe, gatanu, zeru, gatatu.

Umuhanda ari kunyurwa n'ibinyabiziga binyuranye harimo ivatiri itwara abantu mu buryo bwa rusange izwi nka yego cabs, uwaba yayifuza yamagara mirongo icyenda na rimwe mi mirongo cyenda na rimwe ndetse n'igikamyo gitwaye imizigo hakuryakaba hari ibiti.

Mu muhanda rwagati hari kunyurwamo n'imodoka yambaye amapine y'umukara ifite irangi ry'umweru ndetse ikaba itwaye andi mapine afunze neza, inyuma hakaba harimo umuntu wicaye, hakurya y'umuhanda hakaba hari ibiti birebire bidufasha mu guhumeka umwuka mwiza.

Amasaha ya nimugoroba ahaparitse imodoka zigiye zitandukanye, inini intoya ndetse hakaba hari n'urujya n'uruza rw'abantu, n'amatara ari kumurika mu muhanda.

Imodoka ziparitse ebyiri zizwi nk'ibikamyo, zipakiye imizigo igiye itandukanye, imwe ikaba ipakiye imifuka irimo ibintu binyuranye ndetse n'indi itwikirijeho shitingi y'umukara, ifitemo imizigo, hakaba hari ibiti biteye hakurya ndetse n'abantu bakorera ibikorwa binyuranye hafi aho ngaho.

Ikibuga kinini gikinirwamo umukino w'amaboko uzwi nka basketball mu ndimi z'amahanga, hakaba haretsemo amazi ndetse hakurya yacyo hakaba hari ibiti birebire n'ipoto rishinze ririho insinga z'amashanyarazi.

Icyapa gishingwa ku nkombe mpimbano z'umuhanda kiri mu ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ikirango cy'umukara kituburira ko bitemewe kunyurwa n'imodoka nini.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara gishingwa ahabugenewe ku nkombe mpimbano z'umuhanda ndetse n'ahandi biri ngombwa, kigaragaza y'uko aho hantu hatemewe guparikwa n'imodoka.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu mu muzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara kikaba gishingwa ahabugenewe kiburira abakoresha umuhanda ko bagomba kunyura aho hantu bazengurutse.

Igikoresho gishyirwa mu muhanda rwagati kizwi nka feruje mu ndimi z'amahanga, aho cyifashishishwa mu gukoresha umuhanda neza, aho hari ibirango binyuranye bigaragaza ko igihe cy'abanyamaguru cyageze bakambuka ndetse n'ikimodoka zigomba gutambuka.

Icyapa kituyobora ahari ibiro by'Akagari ka Mbogo, muri metero ijana ndetse akaba ari ku isibo nomero gatandatu Ubwitange, Umudugudu Rwinyange, Akagari Rwimbogo, Umurenge Nyarugunga.

Inyubako y'umuturirwa yubatse mu buryo bugezweho, ikaba ifite ibiti mu imbere bizwi nk'umukindo, byifashishwa mu gutaka ahantu ndetse hakaba hari n'igipangu gisa umweru.

Mu mujyi wa Kigali ahazwi nko mu Giporoso hakorerwa ubucuruzi butandukanye, ubw'amadarubindi, imyambaro, ibiribwa ndetse n'ibindi binyuranye hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu batandukanye baje guhaha.

Inzu yubakishije ibiti ndetse hakaba hari aho kuganirira abantu bafata icyo kunywa ndetse n'ibyo kurya, hakaba harimo itapi n'icyatsi ndetse hanze hakaba hari kandagira ukarabe n'isabune, aho umuntu abanza gukaraba mbere yo kwinjira cyangwa amaze gukora ku bindi bintu bitari byinshi.

Umuhanda munini unyurwamo n'ibinyabiziga bito ndetse n'ibinini, harimo imodoka, moto ndetse n'igisate cyari kunyurwamo n'abanyamaguru, hakaba ari inyubako iri hirya y'igorofa rirerire, ifite ibirahure by'umukara, isize amarangi y'umweru, ndetse hakuno hakaba hari ibiti biteye ku nkombe mpimbano z'umuhanda.

Inyubako yubatse mu buryo bugezweho izwi nk'igorofa, ikaba ikorerwamo ibikorwa bigiye binyuranye, iby'amabanki, iby'ubucuruzi ndetse hakaba hari n'ibyapa bigaragaza aho wabasha kugurira amatike y'indege, hanze yayo habakaba haparitse amamodoka ndetse n'abantu barimo gutambuka bahagana.

Inyubako ikoreramo ibikorwa binyuranye harimo ibijyanye na betingi harimo na forutabeti, ndetse ahandi hakaba ari umutaka w'umuhondo w'ibyapa bya emitiyene akorerwamo ibikorwa binyuranye bya mobiromani, kugura amayinite no kohereza amafaranga, hakaba hari n'indi nzu iri hakurya y'umuturirwa yubakishijwe ibirahuri.

Mu kigo cy'amashuri kigwamo n'inshuke ndetse n'amashuri abanza ariyo pirimeri, ahari ibikinisho ndetse n'iby'icungo abana bakiniraho bakaba bari mu myambaro isa imipira y'imihondo udukabutura tw'ubururu.

Mu muhanda rwagati unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye ndetse no hakurya hakaba hari igisate cy'abanyamaguru hakaba hateye ibiti birebire bidufasha mu mihumekere biduha umwuka mwiza uzwi nka ogisijene.

Mu muhanda rwagati hari kunyurwa n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka, moto, amagare, ndetse hakaba n'igisate cyahariwe kunyurwamo n'abanyamaguru, hakaba hari n'umwanya wabugenewe ushinzwe guparikwamo imodoka ahazwi nka parikingi, hakaba hari imirongo y'umweru igiye icagaguye, hakurya y'umuhanda hakaba hari ibiti birebire.

Mu muhanda rwagati ahanyurwa n'ibinyabiziga binyuranye ahari igikamyo gitwikirijeho shitingi y'icyatsi ndetse n'izindi modoka ntoya z'amavatiri na moto n'akazu kari ku ruhande, igisate cy'abanyamaguru gafite irange ry'ubururu ndetse hakaba harimo intebe mu imbere yicarwamo n'abategereje imodoka.

Imihanda ibiri, umwe umanuka uhura n'undi muremure unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, birimo imodoka, amagare, moto ndetse hakaba n'igisate cyabugenewe cyo kunyurwamo n'abanyamaguru, hakurya y'umuhanda hakaba hari ibiti ndetse n'amapoto ashinze hariho amatara amurika mu gihe cya nijoro.

Mu masaha ya nimugoroba aho umuhanda umurikiwe n'amatara maremare, hakaba hari kunyurwamo n'ibinyabiziga binyuranye imodoka, moto ndetse hakaba hari n'ahambukirwa n'abanyamaguru n'ibirango bitwereka yuko tugiye kwinjira mu minsi mikuru n'icyapa cya RSSB.

Mu muhanda rwagati ahanyurwa n'ibinyabiziga bitandukanye harimo moto, imodoka ndetse hakaba hateye imikindo izwi nk'imitako, ahabugenewe no hakurya y'umuhanda hakaba hari inzira y'abanyamaguru.